Umukozi wo muri MTN, wicaye ahantu hakikijwe n'imodoka, wicaye mu ntebe ikikijwe n'imodo, impande y'umuhanda n'abamotari bari gutambuka.

Abacuruzi bo ku muhanda batanga serivisi za MTN, ndetse n'iza Eyateri, umucuruzi umwe uri kumwe n'umukiriya wiwe, bameze nkaho bari kuganira, bari mu mutaka w'umutuku wa Eyateri.

Gutanga serivisi ku bantu bose serivisi y'amayinite, bagatanga amayinite atanga serivisi zo gutwara abantu, serivisi zo gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, ahantu hose hagati mu mujyi.

Inzu icurizwamo serivisi za Airtel, ikaba inatanga na serivisi za MTN, ni inzu y'umutuku ikinguye, igaragaza ibyapa bya MTN, ikagaragaza n'ibya Airtel, hakaba hirya yaho na ho hari izindi nzu zigiye zigaragaza ko zicuruza ubucuruzi bw'ibyo kunywa.

Ubucuruzi bw'amayinite abantu batanga serivisi batanga amayinite n'abandi bakaza bakihuza bacururiza ku muhanda bagatanga amayinite ndetse bakaba babasha kubitsa no kubikuza.

Umukozi wa MTN, barimo baramuganiriza na mikoro, batanga ibitekerezo ku bijyanye na MTN, bakagaragaza ibyapa bigaragaza MTN, izihirwe na MTN, bagaragaza ku bintu bya bikurura abakiriya ndetse n'abandi bantu bahagaze inyuma, umugabo wambaye ikositimu n'abakozi bo muri MTN.

Umukozi ukorera MTN, utanga amayinite ndetse n'umukiriya we yari yaje, bahagararanye mu nzu ya MTN, inzu igaragaza ikirangantego cya MTN, bagaragaza ko yatanga serivisi za Mobilele Money ndetse ni inzu isakakeye iriho akenda k'ubururu n'umweru, hakaba hariho n'itara.

Inyubako za koperative, aho abaturage baza, bakaza kuri koperative, bakihuza, bakaganira ibyateza imbere koperative yabo, bakaganira uburyo babonamo amafaranga bagatera imbere, bakagera ku byateza imbere n'ingo zabo muri rusange.

Abahinzi b'imboga abahinzi b'ibigori ndetse n'indi myaka igiye itandukanye barihuza hamwe bagakora ubusarutsi bamwe bakikorera bagiye guhinga bafite imirama barayihumbitse mu mashashi ubundi bakajya kuyihinga bayikoreye mu bitebo bayikoreye mu mabasi abandi bayitwaye ku magare n' imirima yo guhinga mu by'ukuri na ni koperative.

Abantu bagiye batandukanye binjiye mu gishararagati barikurya ibigori baje kuganura ku musaruro wabo, barimo kunywa. Ni abantu bakorera hamwe n'amashyirahamwe bakaba bari kurya bari gusangira.

Banki na koperative zikorera hamwe zigahabwa ibyemezo by'ishimwe, bakabasha gukorera hamwe bagatera imbere, binyuze mu gukorera hamwe.

Abaturage bari mu makoperative muri banki ntoya baari aho bakora koperative z'ubuhinzi bagahinga inanasi bagahinga imboga bagakora imishinga bakihuza kugira babashe gutera imbere bagere kuri byinshi ndetse bagakora banki yabasha kubafasha kugira ngo babone amafaranga bakanahuriza hamwe bakaganira.

Amarushanwa y'amagare abantu bishimiye ukuntu baremo bagenda mu marushanwa, abantu batwara amagare bambaye imyenda yabugenewe gutwara amagare ndetse n'ibyapa byabo bafite mu ntoki, bari kumwe n'abantu barimo babareba, hari abacuruzi b'amayinite ndetse n'ibyapa byayo.

Abantu bihuza hamwe, bagahinga ubuhinzi bw'inanasi muri koperative bakaza hamwe gutegura neza imbuto yo gutera ariyo y'ubuhinzi bw'inanasi.

Ubworozi bw'inkoko nyinshi, hari umuntu uri kugenda akuramo amagi ziba zateye, ari umusaruro wazo nyine, akagenda awutwara, akajya kuyagurisha cyangwa akanayarya.

Gukorera hamwe kw'abaturage ndetse n'amabanki, bakihuza bagakora kugira ngo babashe kubona iterambere rirambye hagati yabo bakorera hamwe mu makoperative ndetse no mu mabanki kugira ngo babone inguzanyo, binyuze mu buyobozi bw'igihugu.

Ahantu bakirira abantu ahantu bashoboye kwicara bakarisangira bakarya bakanywa ndetse no muri botiki y' ahantu hacuruzwa ibinyobwa n'ibiribwa bishobora kuba bihari rero ni ahantu bari bicaye bashoboye kwicara.

Iduka ricuruza amayoga, inzoga zigiye zitandukanye z'ubwoko bwose, inzoga ziba ziri mu macupa ziri mu bintu bigiye bitandukanye, akaba ari iduka rero ricuruza izo nzoga.

Amaduka acuruza inzoga z'amoko yose agiye atandukanye, inzoga nini, inzoga ntoya, ibyo twita ibyuma n'izindi nzoga zigiye zitandukanye, abantu baza bagatwara.

Umuntu ari gupima umuceri awushyize ku munzani, ari kugaragaza ibyo agiye gupima niba ari ikiro, niba Ari n'inusu yashyize muri anvirope agiye ku bipima hari imifuka y'imiceri, hari ikarito y'amata, hari n'ibindi bintu by'ibicuruzwa.

Ubucuruzi bw'imyenda n'ibyo kunywa nk'amaji ndetse n'ibindi byo kunywa, ubucuruzi muri rusange bukuyemo imyambaro, bukuyemo ibyo kunywa ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo.

Ubucuruzi bw'ibiryo bikoreshwa mayoneze, amaseladine, amajyane ibyuma, inzembe ni amaduka iduka.

Ubucuruzi bw'icyayi, amajyane, ubucuruzi bwo mu iduka bacuruza bakabona amafaranga yabateza imbere, amajyane ya Rwenzori, amajyane ya Tangawizi, amajyane ya Rwahi.

Iduka ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye, ingofero zo mu mutwe, inkweto, amaji, fanta, amasahani, ibikoresho byo gukoresha mu gikoni, amavuta yo kwisiga, amakayi n'amakaramu, amasharijeri ndetse n'ibindi.

Imbere aho bacururiza amaduka, aho bacururiza haba hari n'udukarabiro, aho abantu bagenda baza bagapanga, bagapakinga ibintu byabo bari butware, bakabizirika kuri moto, bakabipakira mu bikarito, bakabitwara, ubucuruzi bugiye butandukanye, bw'ibintu bitandukanye biribwa ndetse n'ibitaribwa.

Ishashi irimo ibikoresho by'isuku bikoreshwa n'aba mama cyangwa abakobwa, bakoresha mu gihe cy'imihango ndetse na supaguru ndetse n'ibindi mu by'ukuri ni botike irimo ibyo bikoresho byose.

Ibicuruzwa biba byateguwe nk'amafi, aba yanyujijwe mu ruganda bakaza bayacishije mu ruganda, inyanya banyujije mu ruganda bakazizana mu mashashi, bakazana bakayacuruza biri mu gacupa k'ibyatsi ahandi biri mu gacupa k'umutuku.

Amaduka acuruza imyenda, acuruza ibikoresho bya gakondo, acuruza amamarete n'ibindi byinshi bikoreshwa amasharupe, imyenda kwambara, amasaro muri rusange ni amaduka.

Ubucuruzi bwa gaze z'ubwoko bugiye butandukanye, gaze z'ibiro birindwi, cumi na bibiri ndetse n'izindi gaze zegeranye n'ahantu bacururiza ndetse n'amayinite n'ibindi bikorwa byo gucuruza bigiye bitandukanye.

Urusengero, kiliziya yubatse ahantu, ifite imiryango, ifite n'agasongero, bakunze kwita umunara, kikijwe n'ibiti, ifite umusaraba hejuru.

Abantu baje guterana bo mu rusengero bateraniye ahantu ndetse bari kugenda batanga amafaranga runaka kugira ngo bagire icyo bageraho.

Abayobozi bo mu rusengero, barahagaze imbere, bari gufata ifoto, ahantu heza mu rusengero, hari n'icyapa, mu nzu nziza.

Ababyeyi bari ahantu hari itente, hari n'indangururamajwi, bameze nk'abari kubyina umwe afite mikoro, abantu baje ku rusengero bari kubyinira imana mu bijyanye n'urusengero.

Inyubako ya hoteli yubatse mpande y'umuhanda, ahantu hari ibiti, hakaba indabo nziza cyane, ikaba yubatse igeretse kabiri, ikaba iruhande rwa kaburimbo ahantu heza.

Hoteli zakira abantu baturutse kure zikabacumbikira, zikabaha n'ibyo kurya.

Aho bakirira abantu baje muri hoteli cyangwa moteri y'ahantu runaka baba baje kwakira, baje kuharara cyangwa se baje kuhiyakirarira, aho babakirira rero bakamenya amabwiriza agenga iyo hoteli.

Ahantu abantu bashoboye kuruhukira nko muri hoteli, bakabona ibyicaro, bakaba baganira, ahantu baganirira ahantu umuntu yakorera akazi ke mu gihe yaje kuharuhukira.

Aho bakirira abantu nk'amahoteli ndetse n'ahandi ho kwakirira abashyitsi baturutse ahantu kure.

Inyubako ya hoteri, ikikijwe n'amazi, igakikizwa n'indabo, igakikizwa n'imiterere yaho, umuntu ashobora kuza akareba akishimira, ahantu abantu bacumbika, inyuma yaho rero hari indabo, hari amazi yubakishije sima, ahantu hubakijije sima ndetse n'ibindi bintu byiza cyane, muri iyo hoteri.

Icyapa kigaragaza botike cyangwa hoteli ibyo batanga, ibyo bakira ndetse n'ibiryo n'ibindi byinshi biba bikubiye muri hoteli y'aha.

Hoteli ndetse n'ibiyikikije, amazi ndetse n'ahantu ho kwicara kugira ngo babashe kuganirira, abatembereye muri izo hoteli.

Intebe ziteye hanze ziri kumwe n'akameza ahantu muri hoteli abantu bajya kuruhukira ku buryo abantu basohoka muri salo bakicara hanze bakaganira ahantu bareba, Igihugu muri rusange cyangwa se ahantu, ibidukikije n'ibindi.

Ahantu hari amazi abantu baruhukira muri hoteli abantu baza bakaganira bakicara bareba imiterere y'ahantu, bakaganira bakaba bakoga bakaba baganira, bakagera kuri byinshi ndetse bareba ndetse abantu bakaba banaharuhukira.

Inyubako ya hoteri igaragaza amarembo y'aho binjirira ikagaragaza uko ingana ahantu yubatse ibiti biri ku muhanda aho ushoboye kugera ukinjiramo ugakomeza mo imbere harimo ibiti ndetse n'ibindi bintu biyitatse.

Ahantu wajya ugakurayo ibiryo, muri resitora, muri hoteli, ukabonayo ibiryo byiza.

Ahantu umuntu ashoboye gucumbika, kurara gihe yakoze urugendo, ahantu bagenda akabona aharara, hari uburiri, hari aho ari buruhukire, akamenya ibyo kurya ndetse akabona ahari burare mu gihe haje gutemberera ahantu runaka.

Ameza ateguyeho ibiryo, agateguraho ibyo kunywa, ibikoresho byose bikoreshwa ku meza, haba ari muri hoteli cyangwa resitora abantu baza kwiyakiriramo, kugira ngo baharare bamere neza.

Abacuruzi bo k'umuhanda bacuruza ibirayi, bigaragara ko ari umusaruro mwiza uri mu mufuka, abagore babyishimiye bari kubicuruza babyerekana bagaragaza ko ari byiza cyane.

Ko ndetse n'ubucuruzi bw'imyenda, inkweto ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, abacuruzi bo ku muhanda, abacuruzi batondeka ibintu ku muhanda ndetse n'abandi bantu bagenda bacuruza ibintu bigiye bitandukanye inkweto za boda boda, imyenda, imbuto ndetse n'ibindi.

Ameza agaragaza hariho tapi badoderaho, imashini idoda, imbagura iteretse hanze, abantu bashoboye kuba batekeraho cyangwa se agashyiraho amakara yo gushyira mu ipasi kugira ngo atere imyenda, yaba yadodesheje kuri iriya mashini y'iwe.

Ubucuruzi bw'imbuto bugaragaza abantu bari kugenda bacuruza imbuto bazikoreye ku muhanda bazitambatamba mu bantu hagati.

Amasoko harimo ubucuruzi bw'imyenda, ubacuruzi bw'ibntu bigiye bitandukanye bagacuruza ku muhanda, ababigendana mu nzira ndetse n'abandi babimanika ahantu ku isoko.

Ubucuruzi bw'imbuto n'imboga, ku muhanda, ku nzira, ahantu abantu batambuka bakaza bakagura, hari inyanya, hari imineke ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, abantu bagenda baza urujya n'uruza rw'abantu n'imyenda iba ihari.

Ku isoko abacuruzi b'imbuto n'imboga, ndetse n'abazicururiza ku muhanda bakabitandika ku muhanda abantu bakaza kubagurira, inanasi, amatunda, amacunga, imyembe, amapapayi n'ibinyomoro, n'izindi mboga n'imbuto bigiye bitandukanye.

Gucuruza umuceri ugiye utandukanye, ubwoko bugiye butandukanye, umwe uri mu mufuka bakagenda bawupima bakoresheje ibikombe, amasabune, ku muhanda ariho abantu bacururiza ahantu, ku muhanda umuntu agenda atambuka akaza agafata ibintu.

Ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye ku muhanda. Umuntu agafata ameza, agafata ibintu akagenda akabitondeka ku muhanda, umunyu, umuceri, akawuha, amakaramu, amavuta ndetse n'ubunyobwa, byose akaza akabitondeka ahantu ku muhanda, akabicuruza.

Isoko ry'inkweto ririmo abacuruzi ndetse n'abagenda bazunguza mu muhanda, umucuruzi w'inkweto uri ucuruza inkweto zigiye zitandukanye za bodaboda, ni isoko ririho amagare yazanye ibintu ndetse n'abacuruza ku ruhande n'amaduka.

Ahantu muri resitora, abantu bicara bagafata ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa bakahaganirira, byaba ari iby'amanywa cyangwa ibya nijoro bakabiganiraho, bagahabwa n'uburyo bwo kubirya.

Abamotari bari mu kazi, umugenzi ari kwishyura amafaranga, umumotari wamutwaye, inyuma hari n'abandi bamotari barimo bagenda, amugejeje ku gipangu, ahantu agomba gutaha.

Umumotari mu muhanda arimo agenda, atwaye ibikoresho, agakarito, agafuka yakazirikiye kuri moto ndetse n'ibindi atwaye imbere, arimo abigenana mu muhanda, ahantu hakikijwe n'ibiti, hakikijwe n'amazu, ubona ko ari kwa muganga ndetse n'ahandi.

Abatwazi ba moto nk'amatari bakagenda mu muhanda, aho banyura mu muhanda nyabagendwa, bagendana bahura n'imodoka zigiye zitandukanye, hari ibidukikije byinshi cyane.

Abamotari, abantu batwara moto mu muhanda, batwara bavana abagenzi ahantu hamwe babajyana ahandi, batwara ibintu, bagenda mu muhanda bava ahantu hamwe bajya ahandi.

Abatwara moto abo twita abamotari bari kugenda mu muhanda ari bensho cyane, bambaye amakasike, bur wese atwaye moto y'iwe, harimo abafite ibyishimo ubona ko ari imbere, ni amarushanwa y'abamotari bari kugenda mu muhanda, ku ruhande hari amamoto, hari ibiti ndetse n'ibindi.

Umumotari atwaye motari kugenda mu muhanda, ari kugenda ategereje abagenzi, ari kureba umuntu uri kugenda ku ruhande rwe ashaka kumubwira ngo aze amutware mu muhanda wa kaburimbo, inyuma ye hari n'imodoka.

Umumotari, umuntu utwara moto atwaye umugenzi mu muhanda wa kaburimbo barimo baragenda iruhande rw'aho hari ahantu mu murima bahingamo imyaka igiye itandukanye bari kugenda.

Umunyonzi w'igare umuntu utwaye igare, atwaye n'abantu babiri bafite n'imizigo, barimo baragenda mu nzira, imizigo bafite bameza nk'abavuye guhaha, bambaye upfukamunwa, bari kugenda mu nzira mu muhanda w'ibitaka, hari indabo iruhande rw'ahantu abantu batuye.